Abantu bicaye mu dutebe hose, imbere hari abantu bahakikije cyane ndetse hari n'abandi bantu bahareba, bari kwitegereza bakareba uko bimeze hejuru, bakareba uko bimeze imbere yabo, mu dutebe dufite amabara atandukanye, udutebe dusa neza cyane.

Abantu bose baricaye bari kwandika, bamwe bari kureba mu mashini, abandi bicaye ku rutebe tw'umukara imbere, bose bameze nk'abayoboye inama iri kubera imbere y'aba bandi, impande hari inzu ndende itageretse n'inshuro n'imwe idafite igorofa.

Abantu bose bahanze amaso bareba imbere, ndetse hari abari kwandika mu dukayi bafite, babicaye mu ntebe zifite utwegamizo ndetse n'aho gufasha agakaramu n'aho kwandikira, mo imbere mu ntebe hari ahaticaye abantu.

Umuntu ufite indangururamajwi mu kanwa, imbere y'abandi hari amazi, bari kumureba, nawe ari kubareba, ari kubavugisha, hari uwubitse umutwe, hari abahanze amaso barikuba bose.

Abantu bose bicaye hamwe harimo uwambaye ikote ndetse n'ipantaro y'igitare, uwambaye ijipo, agakanzu ndetse bose bafite udukaye mu ntoki, bahanze amaso imbere icyarimwe.

Umugabo ufite mikoro ku munwa, ari gushaka kuvuga asa n'uhagaze yemye, inyuma hari umupolisi wambaye ingofero ufashe ku munwa, haragaragara umudamu wambaye imyenda itukura, imbere hari abandi basa n'avunze igipfunsi, hirya harundi, hari utuntu dutatu duhagaze, n'aka kane kariya katagaragara neza, hari indangururamajwi ndende cyane.

Abantu batatu barebana bose bafite imisatsi iboshye, iboheye inyuma, babiri bambaye amarinete, undi ntayo yambaye, bicaye ku meza bose bameze nkaho bafite inama cyangwa ikiganiro bagiye kuyobora, umwe yambaye imyenda y'ibitenge ,undi na we yambaye iy'ibitenge, undi yambaye ishati y'amaboko ifite ikora.

Icyuma kirekire cy'ipironi cy'amashanyarazi, gifite insinga zigitambitseho, hejuru gicaho insinga impande yacyo hari ikindi, hakurya yacyo hakaba uruzitiro rugaragaza akazu k'umuntu ukirinda abamo, mo imbere hakabamo imashini izamura umuriro mu gihe umuriro waba ubuze bitunguranye.

Inyubako ndende ifiteho udukoresho tw'utunara hejuru, hari ipoto y'amashanyarazi yambukiranya insinga zigenda hejuru z'amashanyarazi, inyubako y'igorofa ndende ifite amarange y'igitare n'umutuku.

Umumotari ufite kasike ebyiri, yari mu muhanda impande yininzu ndende y'igorofa imbera hari icyapa, umuntu uhagaze impande yacyo ndetse n'uruzitiro, ibyatsi bigaragara inyuma y'iyi nzu, n'inyuma y'uru rupangu ruri aha ngaha hafi y'uyu mumotari.

Umuhanda uri umunsi, abantu bari mu kayira k'abanyamaguru ruguru hari insina. Hejuru hari insinga z'amashanyarazi ndetse ziri ubwoko bubiri, hari iziri ku ipoto iriho itara, itara riri hejuru cyane n'izitwara umuriro wambukiranya ugenda kure.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, ifite insinga hejuru zitandukanye izitambika n'izigaruka, hagaragara inzu ndende, inyubako ndende ifite umuryango hejuru isa n'aho igeretse, hasi hari igipangu gifite umuryango na cyo imodoka na yo ihagaze ku mapave hafi aho.

Umuntu wicaye mu kagare rwose, inyuma hari undi wicaye ku gatebe, undi ari kwinjiramo mw'imbere mu nzu, undi ari inyuma ye afite impapuro, bari ahantu hari inzu rwose, ifite amabara y'umuhondo.

Inzu yubatse neza, amadirishya yayo, akajaride hafi aho ngaho, akajeride karimo indabyo, igikoresho gitabwamo imyanda, igikoresho gitabwamo imyanda.

Agahanda kajyamo imbere gakikijwe n'indabo za jaride harimo abantu babiri bari kuza umwe akurura akagare ameze nk'aho ari mu bitaro, kuko uwambaye imyenda y'igitare n'akantu mu mutwe ameze nkaho ari umuganga.

Abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'umuhesha w'umucamanza, undi yambaye imyenda y'umugororwa imyenda y'iroza, bafite akamvirope wambaye imyenda y'irozafata akamvirope mu ntoki abandi bambaye udupfukamunwa, bose bameze nkaho bari kuganira.

Umugabo wambaye iby'abajenerari umwenda utukura, akandi k'igitare karimo imbere, yambaye amarinete arabyibushye afite iminwa myiza areba neza cyane, umugabo ubona ko abyibushye kandi ubona ko ari munini.

Amagambo menshi cyane yanditse agaragaza amategeko ari mu gifaransa andi akaba mu cyongereza andi akaba no mu kinyarwanda, ijambo rigaragaza aya mategeko neza rwose.

Ikirangantego ubutabera mu Rwanda ndetse n'inkiko gacaca, abantu bakikije ameza, abandi bari imbere, abandi bicaye hasi, bahanze amaso ababari imbere.

Imodoka yanditseho TRAFFIC POLICE ihagararanye n'akandi kamodoka bihagaze ahantu hari amapave, ndetse hejuru bifite amatara maremare yacana ariko asa nk'aho ajimije, hirya haraboneka ibyatsi byinshi cyane bimeze nk'aho ari imiti.

Ibikoresho bizimya umuriro biteretse ahantu habugenewe, hasi hari amakaro, ni birebire cyane hari ikimeze nk'igitsinga, hari ikizengurutsa cyikatisha, n'ikindi gihuhera gifite urunwa rumeze nk'uruhombo.

Hano icyapa cyanditseho ngo tarafike andi rodi safeti dipatimenti, iyi nyubako ndende iki cyapa kiriho ifite amagorofa atatu agerekeranye, inkingi ku mbaraza zifashe ayo magorofa ndetse zimeze nka mwikorezi, hejuru ukabona hari utuntu dutangira ngo abantu batagwa ku igorofa.

Abantu babiri basuhuzanya ni muzehe hizi ekiselensi perezida Paul Kagame asuhuza muzehe Tito Rutaremara. Abantu bari kumureba ndetse ari gusuhuzanya, uwambaye ikoti ry'umukara n'uwambaye ishati y'igitare.

Umugore wicaye imbere y'akamikoro, ameze nk'umunyamakuru ameze nk'ugiye gushyira amakuru hanze, yambaye imyenda y'umukara afite agakayi mu ntoki, yambaye amarinete afite imisatsi izirikiye inyuma ndetse arareba imbere impande y'akamikoraro.

Ikigaragara amafoto ariho hariho amafaranga, hariho amagambo yanditseho ibyinjira n'ibisohoka, n'amafaranga yabyo, bimeze nkaho gafite amabara atandukanye, icyatsi n'ubururu kandi kakagiramo n'ibara ry'idarapo ry'u Rwanda hejuru.

Abantu bicaye bose bafite udukayi bari kureba imbere, amatara inyuma, ibirahure, urumuri rwabyo ruri gucana muri bo, hejuru naho hakaba hari amatara, abambaye rinete, abambaye bisanzwe n'abafite telefone mu ntoki.

Umuntu wijimye wambaye karavate, ishati inigirije, umuntu wirabura, umuntu ufite iminwa minini, umuntu umeze nk'umusaza, umuntu ufite umutwe munini, umuntu umeze nk'ukuze, umuntu ubona ko abyibushye afitemo kabiri.

Ikirango cya FPR inkotanyi kiriho akamakasi ndetse n'intare n'iminwa yayo kigaragaraho amabara agaragara atandukanye ajya gusa n'ay'idarapo ry'u Rwanda kandi cyanditseho amagambo akurikira, demokarasi, ubumwe, amajyambere.

Abantu babiri bicaye, bose bafite inyakiramajwi imbere yabo bafite icupa ryamazi kuri buri wese hari amacupa'amazi imbere yabo nicyo bishatse kuvuga amacupa ari imbere yabo.

Imodoka ebyiri imwe ihetse umufuka indi iri imbere nta kintu kirimo n'indi ya gatatu imbere yazo, zihagaze hafi y'ahantu hari amapave mu nzira kandi mu muhanda, imbere yaho hari amazu, hari n'uruzitiro rukikirije amazu, biragaragara ko izi modoka zihagaze zose.

Imodoka ndende, inyuma hari igiti, inyuma gifite ishami, kirekire, munsi y'umuhanda icyapa kigaragaza imitsingi ndetse n'inzira y'abanyamaguru mugihe bavuye mu muhanda.

Umuntu wicaye impande y'akamoto, akamoto gatwara imizigo. Inyuma yako hari imodoka, imbere hari amazu. Gagahagaze ku mbuga y'amapave imeze neza hari n'akandi gahagaze impande yako kari hafi yako.

Imodoka ndende ifite akabara k'icyatsi hejuru hari igishitingi, ni mu muhanda w'umukara wa kaburimbo, ibiti birebire bisa icyatsi biragaragara neza cyane mu ibara ry'icyatsi kandi hirya hari ikintu kimeze nk'igisupanete gikingirije hano hantu ho imodoka iri kugira ngo mo imbere hatagaragara uri mu muhanda ngo arebemo.

Imodoka inyuma yayo hari umuntu, ni itagisi ntoya, hirya hari ikimodoka kirekire no hirya hari umutaka wa Emutiyene n'umuntu wikoreye agakarito, dore inyuma hari amajerekani aharambitse cyane rwose. Biragaragara ko iyi modoka iri kujya imbere cyane.

Igorofa ndende igorofa abantu barayegereye, hari abicaye hari abahagaze n'abari kugenda, ifite amagambo yanditseho, ifite indabyo hafi yayo kandi abantu bose bameze nkaho bahicaye cyane kuruta abahagaze.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo kigaragaza nk'umuntu uri gusa n'aho agenda, amaboko ye asa n'aho ateganye, hirya hari ishyamba rigaragara ko ryijimye, ry'ibiti birebire cyane, ibiti bigaragara rwose ko bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Icyapa cy'umuhondo gifite utuntu tuzamuka hejuru, utwo tuntu tuganisha hejuru, ni utumenyetso tumeze nk'uducumu ndetse n'ibara ry'umukara rizenguruka hagati.

Imodoka ihagaze mu muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibyatsi by'ibiti birebire bifite indabo hejuru, ibi biti bikaba byijimye cyane. Uyu muhanda ni umukara umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru imeze neza cyane. Iyo inzira y'abanyamaguru ikingirijwe n'iyi modoka ihagaze muri uyu muhanda.

Inzu yegereye igipangu gifite senyenge hejuru, iyo urebeye hakurya ubonayo izindi nzu nyinshi cyane, ibiti bifite amababi y'icyatsi, ibiti birebire, iyo ubona hakurya y'ayo mazu uhabona agasozi karenga karengengera hakurya.

Inyubako ndende imeze nk'aho isakaje amabati atukura, mu mpande ifite amadirishya, ifite n'akayira k'abanyamaguru kayijyaho, hari moto ihetse gaze, umuntu iyiriho yambaye kasike idafite ikirahuri imbere.

Inzu ifite irangi ry'igitare, inzu ifite amadirishya, inzu ifite inzugi, inzu ifite insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, inzu ifite ibikoresho bigaragaza amateleviziyo, inzu ifite indabyo, inzu ifite ibyatsi hafi aho, inzu ifite amarange atandukanye arimo n'ay'umukara asize ku nkingi iri hafi y'iyo nzu, inkingi yubakishije ibintu.

Inzu nyinshi cyane zigaragara hashinze ipoto hari insinga z'amashanyarazi, harimo ikigega cy'umukara ndetse hakagaragara n'inzu ifite amabati ndende cyane, hirya hagaragara n'indi yijimye, iri ahantu mu biti izi zose zihagaze ahantu hari ibiti hijimye cyane.

Ifasi ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda hirya yayo hari umutaka w'umuhondo ufite inyuguti za ma ta na na biri mukazeru byose by'umukara hirya hari umumama ufite akabaga mu kaboko.

Igorofa ndende munsi hari imodoka zireba imbere mu muhanda, hafi y'izo modoka, imbere mu muhanda harimo abamotari batwaye abantu, imodoka zimwe ziparitse zireba imbere, izindi zireba inyuma, iyo gorofa ifitemo imyenge cyangwa se amadirishya areba mo imbere ku buryo ucishijemo ijisho wareba inyuma. N'utuntu duhagaze ku muhanda dutangira imodoka, ngo zitinjira mu igorofa.

Umujyi ufite amazu menshi atandukanye, harimo amazu afite amabati atukura, n'amabati ajya kuba umuhondo, mu mujyi harimo ibiti byinshi cyane, umujyi wuzuye ibiti bigaragaza ko ari byinshi cyane kandi ibi biti bigiye bigaragara kuri buri nzu no hafi y'izo nzu.

Mu muhanda hagati aho abantu bambukira, imodoka irahagarara, moto irambuka iciyeho, imodoka nta gutegereza ko abagenzi bahagarara, kugira ngo ihagarare nayo, abagenzi bambuke.

Amatara acanye, abantu bari ku magare na moto zicanye mu muhanda aho ziri kugenda, urukuta rurerure rukingirije aho aya matara ashinze ndetse indabyo ku muhanda.

Imodoka mu muhanda ndetse n'umunyamaguru, hirya agashyamba n'inyubako ndende. Imodoka igeze ahantu hari utuntu dusize irange two ku muhanda, tugabanya umuhanda n'ubutaka busanzwe. Hari indabo zitarafata neza zisa icyatsi.

Umuntu uri mu muhanda ku igare rifite umufariso, impande y'umuhanda hari ahantu hasa nabi hameze nkaho ari umuhanda washaje. Ibiti impande y'umuhanda byijimye harimo ipoto y'umweru ndende, imbere ye hari imodoka ebyiri zishoreranye ndetse na moto.

Umuhanda urimo abamotari, munsi hacamwo imodoka, ikiraro kirekire gica hejuru, agashyamba impande yacyo, akayira k'abanyamaguru munsi y'iki kiraro. Moto zihetse abantu.

Umuhanda urimo imodoka ndetse na moto, impande yawo hari ibyatsi by'ibiti, ndetse hari ibiti birebire byijimye cyane, hari amapoto y'umuriro w'amashanyarazi, hakabamo ndetse na moto ziri kuwugendamo umuhanda ugabanyijemo kabiri, ufitemo akarongo k'umweru kagabanyamo imihanda mo kabiri.

Umuhanda uririmo imodoka, ibiti, amashyamba ndetse n'amatara akikije uwo muhanda, imodoka imbere yazo hari abantu ndetse n'amamoto inyuma y'iyi modoka.

Imodoka, amatara, ibyatsi, indabyo, ibiti birebire, inzu ndende, ahantu hagaragara ko haparikwa imodoka ariho zishyirwa, umuhanda ugenda uca aho hantu, imodoka enye nziza zihagaze.